Umuntu wicaye ku ntebe ya palastike imbere y'akazu bacururiza amayinite harimo undi muntu muri ako kazu wicaye wagira ngo yasinziriye, ku ruhande rw'ako kazu hari akandi na ko, hari akandi kazu inyuma yako hari imodoka n'imyenda n'amagare, hirya ni amazu imbere y'utwo tuzu tubiri, wagira ngo bacururizamo amayinite.

Umuntu uri kwinjira mu kazu bacuruzamo amayinite ya telefone ka Eyateri banabikurizamo kuri Eyateri.

Umuntu utwaye moto uhetse ikiboni kirimo amazi n'ikindi kintu imbere ye wagirango ngo ni ikarito akaba ahagaze iruhande rw'umubyeyi nawe uhagaze wagirango ari kubikuza cyangwa kugura amanite muri aka kazu ka emutiyene(MTN) aho ako kazu kari imbere y'inzu nziza cyane.

Abantu ubona ko bicaye mu cyumba runaka wagira ni inama bajemo, bafite umuntu uhagaze ari kugira icyo ababwira kuri iyo nama, ku meza y'abo bantu bicaye hari amacupa y'amazi, za mudasobwa n'amatelefone.

Ahantu ubona wagira ngo uri mu kabari, aho abantu bicara kuri izi ntebe tureba, barimo baranywa nk'inzoga cyangwa fanta cyangwa ibintu by'imitobe. Biragaragara ko izi ntebe zicaraho abantu batatu batatu, ubona ko basangira bafitanye gahunda.

Uburiri burimo imisego ibiri wagira ngo buryamwaho n'abantu babiri kuko hariho imisego ibiri ibiri kuri buri ruhande n'amashuka azinze ari kuri ubwo buriri.

Ahantu ubona ko ari hafi ya pisine kuri hoteri runaka aho abantu bajya kunezererwa bashaka kwishimisha mu buzima.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ubona ko ari kumwe n'abandi bantu wajya baturutse hanze y'igihugu baje mu Rwanda banza haribyo bari kuganira.

Ahantu mu cyumba wagira ngo ni ahantu abantu baryama kuko ubona hari uburiri bushashe buriho imisego ibiri, ubabanza kuri ubwo buriri haryamaho abantu babiri.

Ndabona ari imifungo y'ibijumba, n'imifuka yenda irimo ibijumba, bigaragara ko ari umuntu urimo acuruza ibijumba ku mifungo; yabirambuye ku mufuka, cyangwa icyo twakwita nk'ideye.

Aha biragaragara ko ari mu isoko. Aho ubona ko hari umuntu utwaye igare, ririho nk'ibitoki, ibindi bimeze nk'inyanya. Ubona ko hari n'undi mubyeyi uri iruhande wagira ngo nawe iruhande rwe neza acurizaho ibindi bintu. Urabona hari abantu benshi bari impande yiri soko, urabona n'imyenda imanitse.

Abantu b'imbaga nyamwinshi baremye isoko ricuruzwamo; ibitoki by'imineke, amacunga, indimu, amatunda, ibinyomoro, pome, wotameroni n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abantu bari mu isoko ry'imyenda babona ko baje kugura ihande rw'iryo soko hari ahamanitse ibikapu, hamanitse inkweto ariko ubona ko abenshi bari mu myenda barimo baratoranya iyo bagura.

Imashini idoda imyenda, akavido bavomamo amazi, moto, umuntu, ibitanda bacururizaho ibicuruzwa.

Ahantu ubona ko ari mu nzu y'ubucuruzi bacuruza ibintu bitandukanye, aho ubona hari imiceri, amacupa arimo ibintu bitandukanye nk'ubuto ndetse n'indobo zirimo ibindi bintu ndetse n'amasabune.

Umuntu, moto, inzu, inkoko, ibiti.

Imodoka iri mu muhanda wagira ngo irimbere ry'ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi, n'ibiti biri ahantu wagira ngo ni imbere y'inyubako runaka.

Ubantu batwaye amagare bahetseho udufuka; wagira ngo bavuye ku isoko cyangwa bagiyeyo n'umumotari uri imbere y'ahantu imbere y'inzu n'ahantu wagira ngo ni mu kigo runaka hateye imikindo hakolotiriwe n'ibyuma by'amatibe.

Moto ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, umumotari ahagaze ku ruhande, ubanza uyu muntu ufashe kuri iyi moto ari ubashyiraramo batiri, iyo ishizemo umuriro. Wagirango amaze gukuramo batiri arashyiramo iyindi ifite umuriro.

Umuntu uri gusunika igare rihetse indobo irimo ibigori, ari mu gahanda k'amabuye ku mpande z'ako gahanda hakaba hari inzu z'ubucuruzi n'imodoka iparitse n'imitaka n'amamoto aparitse.

Aha ndabona ari umumotari utwaye moto arimo areba muri telefone ahetse umuntu ufite ikintu akikiye, aho ku ruhande rwabo ubona hakikijwe n'ibiti hari n'umuntu urimo uragenda ajya aho bavuye.

Umuntu utwaye moto ahetse undi ubona afite akavido wagira ngo ni ak'amavuta, n'umufuka w'umuceri inyuma y'uwo bahetse.

Umuntu utwaye igare muri kaburimbo, inyuma y'aho arimo araturuka hakaba hari umumotari na we utwaye moto, irihande kuri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hateye ibiti byinshi.

Inzu y'ubucuruzi wagira ngo irimo uburiro imbere yayo hari igiti cy'insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hari n'umutaka bacururizamo amayinite ya MTN n'igare r ripakiye ibintu by'amakarito, n'abamotari, n'imodoka.